Abagore babiri, ndetse n'umugabo umwe. Bamwe mu bagize ihuriro nangwa se inama y'ikigo gikangura ibijyanye na Kigali yacu n'ibijyanye n'iterambere.

Uruhuriro rwicayemo abantu benshi. Harimo abasaza, abasore, abagore ndetse n'abakobwa. Bari mu nama.

Umugabo wambaye agapfukamunwa k'umukara uri guhabwa sheke ifite agaciro ka miliyoni imwe n'ibihumbi magana abiri na mirongo itanu, kubwo imirimo ye yakoze iriho ibigo byinshi bitandukanye nka RSSB, ejo heza, SOLASI ndetse yatanzwe ku itariki mak'umyabiri n'umunani kwa cumi mu bihumbi bibiri na mak'umyabiri na rimwe.

Inzu mberabyombi yahuriwemo n'abayobozi, ndetse n'abo bakoresha bagizwe n'abagabo, ndetse n'abagore, mu nama.

Amakuru ajyanye n'ibyo ikigo cy'igihugu cy'u Rwanda gishinzwe iby'iterambere gikora ndetse n'amakuru ajyanye n'aho ushobora kubasanga, nomero ya telefone igendanwa wababonaho ndetse na emeri.

Iyamamaza ry'ikigo gishinzwe ibijyanye n'imisoro n'amahoro, rigaragaza uburyo ushobora gukoresha mudasobwa, cyangwa se telefoni igendanwa, umenyekanisha umusoro ku nyungu ndetse n'igihe utagomba kurenza.

Ubukangurambaga bumenyesha ihindurwa rya serivise ku bakiriya ndetse naho izo serivise zimukiye ndetse n'umurongo ku bindi bisobanuro ushobora guhamagaraho.

Uruzitiro rufite senyenge hejuru, ndetse n'imyugariro ikoze mu ibyuma, inzu yigiye hejuru y'urwo ruzitiro, ibamo umurinzi.

Etajeri y'umweru, hejuru harimo ibintu by'imitako, hagati hakaba hari uducupa, ibumoso ni uducupa wagira ngo ni imiti, iburyo ni uducupa wagira ngo turimo amavuta, uducupa tw'amavuta, hasi hakaba hari n'ibintu by'imitako.

Ubu ni uburyo bwiza buri mu Rwanda kandi bumazemo igihe, buzwi nka manigaramu cyangwa wesiterini yuniyoni ubu buryo rero bumaze igihe bufasha abantu kohereza amafaranga mu mahanga cyangwa kubikuza amafaranga bohererejwe n'umuntu uri mu mahanga mu buryo bwiza kandi bwihuse, kandi bufite umutekano k'uko bimenyerewe hano mu Rwanda.

I Kanombe mu karere ka Kicukiro, mu mujyi wa Kigali urahabona inzu ikodeshwa ku mafaranga ibihumbi magana atatu mirongo itanu by'amanyarwanda buri kwezi, ifite ibyumba bitatu byo kuraramo n'ibindi bibiri by'ubwogero.

Umugabo wambaye amarori y'umukara, nk'umuyobozi w'ikigo mu kiganiro n'ibigo by'itangazamakuru bitandukanye.

Mu nsisiro ku muhanda ahari urujya n'uruza rw'abanyamaguru ndetse n'ibinyabiziga ibito n'ibinini, byifashishwa mu gutwara abagenzi ndetse n'umupolisi ubiyobora.

Icyapa cy'aho imodoka zitwara abagenzi zihagarara, ipoto ry'amashanyarazi ry'itara rimurika mu muhanda, uruzitiro rw'ahari kubakwa amazu rugizwe n'amafoto arangwa n'ibyapa byeka urujya n'uruza rw'abantu rubashishikariza gutembera u Rwanda.

Ibikorwa remezo, umuhanda urimo imodoka ikoreshwa mu buryo bw'ubwikorezi bw'ibintu byinshi benshi bakunda kwita ikamyo, igare ndetse n'umunyamaguru, ibidukikije nk'ibiti.

Ibikorwa remezo by'umuhanda ndetse n'undi uwunyura hejuru, umunyamaguru uyoboye ikinyabiziga cyangwa se igare ndetse n'ikinyabiziga gikoreshwa mu gutwara abantu muri rusange.

Ibikorwa remezo mu muhanda urimo imodoka ikoreshwa mu bwikorezi, ariko bw'ibintu bidafite ibiro byinshi. Izindi modoka nazo zikoreshwa mu bwikorezi, mu kindi gisate cy'umuhanda cy'igitaka ariko, izo modoka zikoreshwa mu bwikorezi bw'ibintu biremereye cyangwa se byinshi. Ndetse n'ibindi biziga muri icyo gisate. N'ibidukikije nk'ibiti, ndetse n'abanyamaguru.

Ikinyabiziga mu muhanda cyifashishwa mu gutwara abagenzi bava ahantu hamwe bajya ahandi. Mu gisate cy'abanyamaguru, harimo umunyamaguru uri gukoresha telefone igendanwa.

Icyapa cyo mu muhanda kiburira cya mpandeshatu ifite ubuso bugizwe n'amabara y'umweru ikirangantego hagati kigizwe n'amabara umutuku, umuhondo, icyatsi, ubuso ni ibara ry'icunga kerekana ko ugeze aho ibinyabiziga bihagarara.

Ibidukikije harimo ibiti ndetse n'imisozi, ibikorwa remezo nk'umuhanda, ibyapa byerekana akarere winjiyemo nangwa se akarere utangiye muri urwo rugendo.

Ibidukikije nk'ibiti bihingwa mu rutoki amabati yubatse mu buryo bwi'igisenge kireba hejuru ndetse n'igisenge kirambuye amapoto y'amashanyarazi ndetse n'insinga z'amashanyarazi.

Imodoka y'ibara ry'umukara itambuka mu muhanda, uruzitiro rugizwe n'ibyuma ndetse n'amatafari ahiye, umuferege unyuramo amazi wugarijwe cyangwa se ufunzwe

inzu yubatse mu buryo bw amagorofa. izamuye arenga ane ,y'uburuhukiro naho buherereye hagati y'andi mazu uramutse wifuza kuhagera.

Amazu yubatse mu buryo bujyanye n'iterambere benshi bita agezweho ndetse n'andi akirimo arubakwa, n'andi yubatse mu buryo bwa kera benshi bita bwahozeho ndetse n'ibidukikije harimo ibiti n'ibindi byinshi.